Imodoka, urupangu, ikamyo, icyuma, amatara, ikirango cy'imodoka, ibirahure.

Iduka ricuruza amata harimo ikigega kirimo amata icyapa kiriho umwana arimo aseka ikindi cyapa kiriho serivisi batanga.

Ielefoni ijezi, umupira ipantalo, umukandara, ingofero, rinete amarine, amadarubindi ikote icyapa isikariye inzira izamuka.

Inyemezabwishyu itangwa na banki amafaranga wohereje n'amafaranga uri bwakire, amazina ya banki n'iminsi bifata.

Banki irimo yamamaza serivisi zayo z'inguzanyo z'izu ku bakiriya bayo nimero wahamagaraho n'urubuga wabasangaho.

Isoko rya Nyabugogo risa ubururu, abaturage barimo bagenda, imodoka isa umukara n'umumotari.

Isoko ry'imbuto ririmo abacuruzi bacuruza inyanya, intoryi, pavuro harimo utubase, indobo, ubunyobwa n'ibindi bitandukanye.

Karoti, epinari, amashu, tungurusumu, sereri, karoti, dodo n'intoryi.

Isoko ririmo abacuruzi n'abaguzi, umuceri, karoti, intoryi, icyapa cya emutiyene, amabido.

Terefoni irimo igurishwa uburyo wakoresha wishyura bukoroheye, mu iduga ziteretse hejuru y'imeza y'ibirahuri.

Urubuga rurimo rwamamaza serivise rutangira ku ikoranabuhanga. Amazina y'iduka na nimero wabasangaho.

Hano hari icyo amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zakugurira i Kigali mu Rwanda, ni inzu ifite amakaro asa umweru, inkuta zisa umweru n'amatara asaumuhondo.

Umusore wumwirabura wambaye umupira wimbeho wumukara, ipantaro ijya gusa shokora umukobwa wumwirabura usutse imisatsi wambaye iherena kugutwi kwi'ibumoso wambaye itaburiya y'umuhondo umupira w'umuhondo umugabo wambaye ishati y'umutuku.